Icyapa kinini cyane kiriho umugore w'umukecuru n'umugabo w'umuzungu bakaba barimo baramamaza ubwishingizi bw'iwabo aho mu myaka mirongo itatu n'itanu gusa baba batangiye kuguha amafaranga wishinganishije.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo, hariho abantu bari mu modoka inyuma bihishemo, hari kugaragara amaguru gusa, kikaba kivuga ko ari icy'ubwishingizi mu bintu bigiye bitandukanye.

Icyapa gishinze mu gishanga kirimo ibyatsi bisa neza cyane kikaba kiriho igishushanyo cy'abantu b'abakobwa bari ahantu kumazi, kimenyesha ko ushobora kubona ubwishingizi ku madorari rimwe n'ibice mirongo itanu bya buri munsi.

Ikigo cy'ubwishingizi kitwa purayime zigama none tera imbere ejo, ikimina cyacu. Kiri mu ibara risa ubururu, hariho umugabo n'umugore bishimye bari gusuhuzanya.

Saniramu ni ikigo cy'ubwishingizi kigufasha mu bihe by'ibyago waba wapfushije, waba wagize inkongi y'umuriro, waba wahombye mu bucuruzi bwawe uragenda bakaguha amafaranga uba warizigamiye.

Ubwisungane mu kwivuza, ni icyapa kiririmo ibara ry'ubururu aho bapanga kugufasha kubaho neza hakaba hari n'umutaka utwikiriye umuryango nk'ikimenyetso kigaragaza ko bakwishingira.

Imodoka yo mu masiganwa iriho ibirangantego bya banki y'abaturage, iriho n'amarangi agiye atandukanye yiganjemo, umuhondo, icyatsi n'umweru hirya hari abantu baje gufana uyu mukino.

Kuba hoteri yuzuye ntibikwiriye guhungabanya urugendo rwawe, sonarwa n'ikigo cy'ubwishingizi, kigufasha kuba wakishingira ingendo ndetse n'amacumbi k'uburyo ki utagira ikibazo cyo kubura amafaranga yo gucumbika mu mahoteri.

Icyapa kinini cyane kiriho igishushanyo kiri mu ibara ry'ubururu, ndetse ku ruhande hari icyapa kiriho terefone igezweho igendanwa ifashwe n'ikiganza cy'umuntu.

Purayimu ni ikigo gishinzwe ubwiteganyirize bw'inzu ubuzima ndetse n'ibinyabiziga hano ni umugore n'umugabo barimo barerekana ukuntu bishimiye gukoresha ubu bwishingizi.

Amadolari magana atatu na matatu n'arindwi n'ibice mirongo icyenda na kimwe. Niyo mafaranga umuntu afite kuri konti yiwe ya telefone. Uru ni urubuga rugufasha kubitsa ndetse no kubikuza wifashishije telefone igendanwa.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rwa banki ya Afurika, aha ni ahantu unyura ugiye kwinjiramo, ushyiramo nimero yawe ya telefone ugahita ushyiramo umubare wawe w'ibanga, ugakanda ahantu hasi icyatsi bikagufasha kwinjira ku rubuga rwawe.

Banki yitwa NCBA uru ni urubuga rwayo aho umuntu witwa Tuyishime Jacques ari kurukoresha akaba abasha kwishyura akanakira amafaranga yifashishije telefoni igendanwa.

Ibipupe bambika imyenda kugira ngo umuntu abashe kubona ubwiza bwayo, inyuma hari n'indi myenda imanitse mu iduka, iri duka rikaba ricuruza imyenda y'abagore.

Imitaka ikozwe mu bitenge akaba ari ibintu bikorerwa mu Rwanda bigaragaza ubwiza bw'umuco w'abany'Afurika, biteretse ku bisanduku bisa umweru.

Amavuta yo kwisiga y'abagore ndetse harimo n'imibavu ihumura hakaba biri mu kabati bikaba bisa neza cyane kandi hakaba harimo n'amavuta basiga abana b'impinja.

Mu iduka ricuruza imyenda y’ abagabo, harimo imyenda y'amakoboyi afite ibara rya gisirikare ndetse n'indi myenda ifite ibara ry'umweru hejuru ku rukuta hariho amatafari asa ibara nk'ir ry'ifu.

Mu iduka bahahiramo ibintu bigiye bitandukanye bisanzwe, byo mu rugo. Harimo ifarini, ibirungo, hakaba harimo n'ikesi irimo fanta. Isa ibara ry'umutuku.

Ibitenge bya kinyafurika bimanitse ahantu mu iguriro ryabugenewe ry'imyenda. Ibi bikunda kwambarwa n'abadamu ndetse n'abakobwa bamaze igihe bakoze ubukwe.

Umucuruzi w'imyenda w'umuzungu ari kuganira n'undi mwirabura wambaye agakote ka kositimu gasa ibara ryerurutse, hirya hari undi muzungu wambaye amadarubindi n'ikote ry'umukara.

Isoko ririmo umugore wambaye umupira w'umukara, yambaye itaburiya itukura kandi arimo aramwenyura afashe ku gicuruzwa agiye gutanga, inyuma ye hari akabati karimo n'ibindi bicuruzwa byinshi.

Imyenda yiganjemo amapantalo y'abagabo hirya hari n'indi y'imipira isa ubururu, ni mu isoko ricuruza imyambaro igiye itandukanye, hakaba harimo n'umuntu ushinzwe kuyigurisha.

Umugabo w'umuzungu wambaye ishati y'umweru ari kuganira n'undi mugabo w'umwirabura wambaye ishati irimo i'mirongo yumukara hirya yabo hari mudasobwa irimo iraka, hirya hari n'imyenda icururizwa hano.

Imodoka yo mu bwoko bwa toyota iratwikiriye hejuru ikaba iri kugurishwa ushobora guhamagara zeru karindwi mirongo inani na gatandatu mirongo itatu na gatatu mirongo inani na kane mirongo icyenda na kane bakaguha ubusobanuro.

Agacupa k'amazi gateretse ku meza y'ikirahure. Ni ak' uruganda rw'Inyange. Imbere hari igikamyo gisa umweru, bigaragara ko ari aho bagurishiriza imodoka.

Inyubako icururizwamo imodoka zo mu bwoko bwa hundayi, imbere hari ubusitani buteyemo amawuwa ku ruhande y'ubusitani hari inzira y'abanyamaguru ishashemo amabuye.

Inyubako iri mu ibara risa umukara hejuru hari ikirangantego cy'uruganda rukora imodoka za yundayi. Hasi hashashe amabuye ndetse niho imodoka ziparikwa, hakaba hariho ibirahure bihafunze iyi nzu.

Imodoka isize irangi risa nk'ivu ryijimye, niy'uruganda rwa toyota ikaba iguzwe n'umugore wambaye ikanzu ufite igifunguzo kinini gisa umweru cyanditseho akagera motozi.

Igikamyo gisa ibara ry'umweru. Imbere yacyo hahagaze abagabo babiri bafite urupapuro rwanditseho Akagera bisinesi. Akaba ari umwe muri bo ayiguze bagafatana ifoto y'urwibutso.

Imodoka za kwasiteri enye, zifite ibara ry'umweru, ziparitse ku mabuye ashashe hasi, hirya yaho hari ishyamba ririmo ibiti birebire.

Umukozi wo muri banki arimo arasinya ku rupapuro, imbere ye hari ikirahure kiriho mudasobwa ndetse kiriho n'indi mashini, ishinzwe gusohora inyemezabwishyu.

Amafaranga y'abanyamahanga hirya hari umugabo urimo urayabara, yifashishije icyuma cya mubazi. Kuko ni benshi cyane ntabwo yashobora kubara akoresheje intoki ze.

Abantu bari guhererekanya amafaranga muri banke, bafite intoki z'umukara, hakaba hari ikirahure gitandukanya umukozi ndetse n'umukiriya, bakaba barimo baravunjishanya hagati yabo.

Umugabo ufite amafaranga y'amadolari ya Leta zunze ubumwe za Amerika, yambaye ishati isa ubururu, hakaba imbere ye hari mubazi ishinzwe kubara amafaranga, isa ibara rijya kumera nk'ivu.

Banki nasiyonare y'urwanda amafaranga ijana ni inote y'urwanda yakoreshwaga mu myaka yashize, yari iriho umugore uhetse umwana hejuru hariho imparage.

Amafaranga y'abanyamahanga y'amadorari ya leta zunze ubumwe za Amerika, akaba arimo arabarwa ku mashini ya mubazi n'umuntu ufite intoki z'abazungu, ateretse ku meza ari mu ibara ry'ivu.

Amata atunganywa agahindurirwa isura, ndetse akanahindurirwa uburyohe, akorwa n'uruganda rwa Masaka akaba akozwe mu nkeri. Ari mu cyuma gishinzwe gukonjesha cyabugenewe.

Icyuma cy'umweru gikonjesha amata, amazi, hakaba harimo ijagi n'akabido karimo amata akomoka ku nka, hirya hari injerekani za jibu.

Amata y'uruganda rwa Nyanza, iki ni icyuma kiyakonjesha, kirimo amabara y'ubururu n'umweru, hejuru hateretseho akantu bashyiraho impapuro zo gukora amasuku.

Ipaki y'amandazi ari mu bipapuro byabugenewe bayapfunyikamo, inyuma hari igikuta gisa umweru, amandazi akorwa mu ifarini, isukari ndetse bakanayashyira mu mavuta ashyushye cyane agashya.

Inzu y'ikusanyirizo ry'amata y'uruganda rwa nyanza hakaba hariho igishushanyo cy'inka ndetse n'utubido, hasi haparitse moto ni umuntu waje kuba ahafatira amafunguro ye.

Igikombe giteretse ku meza asa umukara, ni muri resitora, kirimo amata, hirya hari isahani iriho ibitoki n'imvange y'inyama, hakaba harimo n'umugabo wambaye ishati y'umweru.

Akabido karimo amata gasa umweru, gateretse ku meza y'umukara, hirya hari umuntu wambaye umwenda w'ubururu, ahagaze ahantu hari sima hasi, ku ruhande rwe hari undi muntu w'umukiriya.

Mu muryango w'inzu bacururizamo amata harimo umuntu uhagaze imbere ye, hari ameza y'umweru iriho imineke, iriho indobo irimo amandazi hakaba hariho hasi n'akadobo kabugenewe banagamo ibishingwe.

Injira kuri konti yawe urubuga rwa sipeni rugufasha kubona inguzanyo bikoroheye ushobora no kurukoresha ukina imikino y'amahirwe aho ushetera ikipe ukunda ukayihesha amahirwe yo kuba yatsinda.

Urubuga rw'itumanaho rwa airtel, aha ni ku rubuga nkoranyambaga rwabo, aho umuntu akoresha terefone, akaba yabasha kunogerwa na serivisi z'iki kigo bitamugoye.

Telefone igendanwa ikaba irimo urubuga rwo guhererekanywaho amafaranga yo hanze, aho umuntu ashobora guhererekanya amafaranga yifashishije telefoni igendanwa bikamurinda kuyagendana mu ntoki ze.

Eyateli ikigo cy'itumanaho mu Rwanda. Ubu ni uburyo wakoresha bwo kuri murandasi ukabasha kubitsa no kubikuza amafaranga yawe bitakugoye, ndetse ukanamenya uko konti yawe ihagaze

Abagabo babiri bari kuganira, imbere yabo hari imeza iriho ibitabo bisa ibara ry'icyatsi, harimo umuzungu wambaye umupira w'umukara ndetse n'umwirabura wambaye umupira w'umweru.

Abasore babiri bari gukoresha telefone igendanwa umwe arimo arereka undi uko bayikoresha, bakaba barimo barakoresha uburyo bwo gutsindira amafaranga magana atanu kuri buri nshuti utumiye.

Urubuga rwitwa sipeni, rwifashishwa mu mikino y'amahirwe, aho umuntu ashobora gusheta ku ikipe ye akunda. Ruri mu ibara ry'icyatsi n'umweru, rukorera kuri murandasi.

Terefone igendanwa, urubuga rwa yero rwa emutiyene hakaba harimo ibara ry'umuhondo rushinzwe ibintu bijyanye no guhererekanya amafaranga ndetse no kuyakira binyuze kuri terefoni igendanwa.

Uburyo bwo kwishyura aho ukanda akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu akanyenyeri umunani urwego, ni uburyo bw'ikigo cy'itumanaho cya mtn gikorera mu Rwanda, kikaba gifite ibirangantego biri mu ibara ry'ubururu n'umuhondo.

Sipeni ni urubuga rwihutisha kandi rukanarinda uburyo bw'ikoranabuhanga bwo kwishyura. Ushobora kwishyura umuriro ukagura n'ibindi bintu bitandukanye, ukaba wanabasha gusheta ku mikino y'amahirwe wifashishije telefone yawe.

Abagabo babiri bafite telefoni zigendanwa mu ntoki, umwe yambaye impuzankano y'ikipe y'igihugu cy'u Rwanda isa ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Telefone igendanwa, ibi ni ibiganza by'umukobwa urimo urayikoresha, hakaba harimo uburyo bugiye butandukanye bwo guhererekanya amafaranga uyakuye kuri telefone imwe uyajyana ku yindi.

Inyemezabwishyu itangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro; aho bakwereka ko baguhaye icyemezo kikwemerera ko nta mwenda na mukeya ubarimo bityo bigatuma ubucuruzi bwawe ubukora nta mpungenge.

Inyemezabwishyu itangwa n'Ikigo cy'Imisoro n'Amahoro cya Rwanda Revenue, aho bakwereka amafaranga wishyuye, itariki ndetse bakakwereka n'ibirarane ubarimo. hakaba hariho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda.

Urupapuro rw'inyemezabwishyu rw'ikigo k'imisoro n'amahoro cya rwanda reveni, hariho kashe yabo kandi hakaba hariho n'ibisabwa kugira ngo ubone icyemezo, cyo kutabamo umwenda w'imisoro.

Inyemezabwishyu y'ikigo cy'imisoro n'amahoro cyitwa Rwanda revenu hano haba hariho amafaranga wishyuye umwaka wishyuye ndetse hakaba hariho n'ibihano waba warahawe mu gihe waba waratinze kwishyura.

Urupapuro nyemezabwishyu rwa banke ikorera mu Rwanda, hariho imyirondoro y'uwishyuye, amafaranga yishyuye, igihe yabikoreye ndetse hakaba hariho n'ibindi bintu byose wakenera kumenya kuri iri hererekanywa ry'aya mafaranga ryabaye.

Urupapuro nyemezabwishyu rw'ikigo cy'imisoro n'amahoro, bya Rwanda Reveni. Hano bakwereka amafaranga wishyuye, itariki, umunsi, ndetse n'isaha. Bakanakwereka n'ibirarane ushobora kuba ubafitiye.

Urupapuro rwemeza ko umuntu yatanze umusoro, rutangwa n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro bya Rwanda reveni, haba hariho uburyo wishyuye, umwaka, igihe ndetse n'amatariki wishyuriyeho.

Urupapuro rw'inyemezabwishyu rutangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro aho babakubwira uburyo ki konti yawe ihagaze mu bijyanye no kwishyura imisoro ndetse bakanakumenyesha igihe ugomba kwishyurira.

Ikibaho gishyirwaho amatangazo y'ukuntu amafaranga y'manyamahanga wayagura ndetse ukanayagurisha bityo ukabasha kungukira ku kuntu amafaranga aba yagiye ata agaciro cyangwa akazamura agaciro.

Amafaranga y'abanyamahanga ari kubarwa n'umuntu ufite intoki z'abazungu, ateye inzara ibara risa umutuku werurutse, amafaranga akaba ashushanyijeho inyamanswa.

Abantu babiri bari guhererekanya amafaranga y'amadorari ya Leta zunze ubumwe za Amerika n'undi ari kumuha amafaranga yo muri zaire ariyo Congo, harimo umuzungu n'umwirabura.

Abantu bari kuvunjisha amafaranga y'abanyamahanga hakaba harimo amadorari, amadorari ni amafaranga akoreshwa ku isi yose akomoka mu gihugu cya Leta zunze ubumwe za amerika.

Amafaranga y'amadolari ya leta zunze ubumwe za Amerika ijana avungishwa Amanyarwanda ibihumbi ijana na mirongo ine hirya hari n'amayero mirongo itanu.

Inote y'amafaranga ya Kongo, iriho abacakara bazirikishijwe amapingu, hirya hari n'iyindi note yo muri Kongo, iriho umusozi umeze nk'ikirunga.

Umugore w'umuzungu afite amafaranga y'abanyamahanga mu ntoki ze yambaye impeta kandi yambaye amadarubindi yambaye umupira usa ibara ry'icyatsi cyijimye.

Icyapa cy'ikigo cyitwa dahabushiri gishinzwe gutanga amafaranga ndetse ukaba wagura ukanagurisha amafaranga y'amanyamahanga bakabasha kukuvunjira mu mafaranga y'amanyarwanda.

Amafaranga y'amadolari ijana bari kuyahererekanya n'undi ufite amafaranga yo muri Nigeria igihumbi bakaba ari abantu barimo baravunjishanya bafite ibiganza byirabura bombi.

Umugore w'umushinwa ufite amafaranga mu ntoki afaranga ariho umugabo wategetse iyi repubulika y'abashinwa wa mbere akaba afite n'igiceri cyanditseho rimwe.

Inzu yabugenewe ivunjishirizwamo amafaranga uragenda ukayagura cyangwa ukayagurisha bityo ukabasha kubona inyungu ku mafaranga watanze bitewe n'aho ibiciro bihagaze.

Inzu yabugenewe ivunjishirizwamo amafaranga y'amanyamahanga hano ushobora kugura cyangwa ukagurisha amafaranga, bitewe n'agaciro kayo ukabona inyungu kuri buri mafaranga ugurishije.

Inzu bavunjishirizamo amafaranga, aho ujyana amanyamahanga bakabasha kuguha amafaranga yo mu gihugu uherereyemo; bitewe n'uko avunjwa ushobora kubona inyungu cyangwa ugahomba.

Inzu yabugenewe bavunjishirizamo amafaranga y'abanyamahanga, hano uragenda ukagura cyangwa ukagurisha ifaranga ryawe bitewe n'uko ayo mafaranga afite agaciro ukabona iyo nyungu.

Inzu yabugenewe, ivungishirizwamo amafaranga y'abanyamahanga. Hano uzana amafaranga yo mu Rwanda bagahita bakuvunjira bakaguha amadorari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.

Inzu ikorerwamo ivunjisha ry'amafaranga hejuru hari icyapa gisa umuhondo, kirimo kirahakamo itara, hasi hari umuturage uvuye kuvunjisha amafaranga y'amanyamahanga.

Inzu bavunjishirizamo amafaranga y'amanyamahanga, uragenda ukagura cyangwa ukagurisha amafaranga ufite, irimo amatara ari kwaka ibara ry'ubururu umweru ndetse n'umukara, hahagaze umugabo waje guhabwa serivise.

Inyubako y'igorofa rirerire isa ibara ry'umuhondo, hejuru hari icyapa gisa umweru, ku ruhande hari n'indi nyubako y'igorofa biteganye, nayo ifite imbere yayo umukindo uteye ahantu.

Inzu yabugenewe ivunjishirizwamo amafaranga y'amanyamahanga. Aho dusangamo ayo muri Leta zunze Ubumwe za Amerika, Ubwami bw'u Bwongereza ndetse n'Amanyaburayi, ukaba ujyana amafaranga ayo ari yo yose bakakuvunjira.

Intebe zo mu nzu ziri ahantu hashashe amakaro hasi asa nk'umweru, izi ntebe nazo zifite imbaho z'umukara, akaba ari nziza zifashishwa cyane ahantu hari amahoteli ndetse n'amacumbi.

Ibikoresho byo mu nzu, byiganjemo intebe zo mu ruganiriro ndetse n'ibitanda abantu baryamaho. Hasi hasashe amakaro y'umweru ashashagirana cyane. Hano ukaba uhajya, ukabasha kuba wagura ibicuruzwa by'iwawe.

Mu nzu ahantu abantu barira, hari imeza y'umukara n'intebe zisa ibara ryirabura, hirya hari igikuta cy'umweru, kiriho umutako umeze nk'ikiziga.

Igitanda cyiza cyo muri hoteri kiriho matera isa umweru. Hakaba hari n'utundi tuntu turi ku misego dusa ubururu bwijimye, n'amarido asa umweru. Harimo n'amakaro ashashe hasi.

Imbaho zibaje neza zikaba zikoreshwa mu mitako yo mu nzu, ndetse bari no gukora intebe n'ibitanda. Hakaba hirya hari ibikoresho bifashisha barimo barabaza imbaho.

Intebe zo mu nzu zisa ibara ritukura ryirabura cyane. Hasi hasashe amakaro y'imbaho hari n'urukuta ruriho irangi ry'umweru kuri urwo rukuta hariho udutako tugiye dutandukanye.

Inzu irimo ibikoresho bikozwe mu mbaho, hirya hari intebe ziriho umwenda usa ibara risa nka shokora, mu gisenge cy'inzu hejuru harimo amatara agera muri atatu yaka ibara ry'umweru.

Inyubako y'igorofa rirerire, iteye irangi risa nka kaki, ifite ibirahure by'umukara. Hasi hari amabendera y'ibihugu byibumbiye mu bumwe bw'burasirazuba bw'Afurika.

Ubusitani burimo indabo ndetse n'ibiti birebire, imbere y'ubu busitani hari inzu igeretse kabiri, iriho ibara risa n'ironji ndetse ifite n'amadirishya y'umweru, hakaba harimo n'amarido.

Akabari karimo inzoga ziri mu tubati z'amoko agiye atandukanye. Hirya hari imeza iteretseho ibikoresho by'umuntu ushinzwe kwakira abakiriya.

Ubwogero bwo kuri hoteri aho hari n'amatente umuntu ashobora kuryamamo asa ibara ry'umweru, hirya hari ubusitani buteyemo ibiti birebire cyane.

Inzu ya hoteri irimo imikindo miremire kandi n'iyi nzu na yo ubwayo ni ndende igeretse gatatu, ifite igisenge cy'umutuku, hari n'imitaka iriho inzoga ya henikeni.

Ikirahure cyanditseho Radisoni, ni hoteri iherereye mu Rwanda mu Mujyi wa Kigali, akaba ari hoteri y'inyenyeri eshanu yakira abanyamahanga bagiye batandukanye ndetse ikaba iherereye mu karere ka Gasabo.

Hotel imbere yayo hari ubusitani burimo intebe hejuru y'izi ntebe hari imitaka hirya hari ubwogero rusange bumeze neza aho umuntu aza akabasha kuba yakoga.

Icyapa cyo muri resitora kigaragaza ibiciro by'ibiryo bigiye bitandukanye. Aho hariho ibiciro by'inkoko igura ibihumbi birindwi magana atanu ndetse n'ubundi bwoko bw'inkoko buvanze n'isosi, bugura ibihumbi umunani na magana atanu.

Hoteri igiye ifite inzu zigeretse inshuro nyinshi, hari ubwogero buzamura amazi ndetse hari n'amatara asa ibara ry'umuhondo, hagati na hagati hateyemo imikindo m'ubusitani.

Inyubako iri mu ibara ry'umuhondo, imbere yayo hateye ubusitani yubatse ku muhanda wa kaburimbo. Ni inzu igeretse inshuro nyinshi ifite ndetse n'igisenge cy'ibirahure hirya hari amabendera y'ibihugu bitandukanye.

Hoteli nziza cyane iteyemo ubusitani ndetse n'ibiti birebire. Iyi nzu ikaba igeretse inshuro zigeze mu umunani. Imbere y'iyi hoteli hari ubwogero rusange.

Ibiro birimo intebe isa ibara ry'umukara hari urugi ruriho irangi ry'umweru hakaba hariho n'icyapa cya sonarwa ikigo cy'ubwishingizi cyo mu Rwanda kishinganisha ku bintu ndetse no ku buzima bw'abantu.

Nyamirambo ishami rya purayimu sosiyete ishinzwe ubwishingizi ikaba ifite icyapa gisa umuhondo n'ubururu hari inzugi m'imbere harimo abantu aho ushobora kujya ukaka serivise.

Inyubako irimo abagabo babiri, bicaye ku ntebe z'umukara, hasi hashashe amakaro y'umweru, hirya hari mudasobwa iteretse ku meza, imbere hari icupa ry'amazi.

Inyubako z'amagorofa maremare, zigeretse inshuro nyinshi. Ziteye irangi ry'umweru. Hariho n'inkingi z'amatafari zisa ibara rya kaki. Hagati hari imodoka y'umweru, iri kugendera mu muhanda wa kaburimbo.

Ishami ry'ikigo cy'ubwishingizi cya purayimu riherereye Kicukiro riri mu ibara ry'umuhondo n'ubururu hirya hari na noteri wikorera witwa Gloria Mugabekazi.

Inzu yabugenewe ivunjishirizwamo amafaranga, hirya hari icyapa cyanditseho Nyarutarama, akaba ari iki kigo cyitwa Purayime gishinzwe ubwishingizi mu Rwanda, kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo.

Inzu iteye irangi ry'umweru ndetse hasi hasashe n'andi makaro asa ibara ry'umuhondo werurutse akaba hicayemo umuntu uri gukoresha mudasobwa yicaye ku ntebe y'umukara hirya hari n'izindi mudasobwa nyinshi.

Wabona inkunga ya miliyoni mirongo ine z'amanyarwanda mu bikorwa byose waba ugiye gukora, yaba ari ubwubatsi, ari ubucuruzi wahamagara kane gatanu eshatu cyangwa ugasura ishami rikwegereye rya banke ya Ekwiti.

Umugore ufite terefone igendanwa mu ntoki ishimire inguzanyo itagira ikiguzi, ni ikigo gishinzwe kuguriza abantu cyitwa sipeni aho umuntu akanda imibare akabasha kuba yagurizwa bitamugoye.

Inzu irimo amarangi yiganjemo ubururu n'umweru, imbere hari nyakiramashusho irimo umuntu uri kwamamaza serivisi zitangirwa aha hantu, iyo nyakiramashusho iri mu kabati karimo ibara ry'ubururu.

Imbere heza hategurwa uyu munsi, ni banki yitwa Agisesi, hari umukobwa wambaye itaburiya y'abaganga, afite n'icyuma gipima umuriro mu ijosi, bagushishikariza kwiteganyiriza mu gihe wazagira uburwayi.

Abantu benshi bambaye udupfukamunwa, ni mu gihe cy'icyorezo cyari cyarateye isi cyitwa corona virusi, bakaba baje ahantu bahabwa serivisi z'inguzanyo muri banki, bakaba bari ku murongo.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku ari kuvugana n'umucuruzi w'imbuto, umucuruzi we yambaye itaburiya y'ubururu n'agapira k'ubururu bwerurutse aho bari kumvikana kubiciro bagomba kuguriraho no kugurishirizaho.

Ni isoko bacururizamo imbuto ndetse n'ibijumba, hari umuntu urimo urahabwa ibyo aguze, abihabwa n'umucuruzi wambaye umupira utukura ndetse afite n'agataburiya kameze nk'igitenge yambaye, undi nawe yambaye ishati y'umukara ndetse n'isaha ya zahabu.

Isoko ricuruza imyambaro n'ibikapu by'abantu bagendana, harimo umukobwa wambaye ikanzu y'icyatsi n'ingofero, yambaye n'inkweto hasi zifunguye; arimo aragura imyenda.

Isoko rya Nyarugenge ni igorofa rigeretse inshuro zigera muri enye, hejuru ririmo amakaro asa umweru asashe hasi ndetse n'andi y'umukara ukaba wahasanga ibicuruzwa byose waba ukeneye.

Isoko rya kijyambere ricururizwamo imyenda ndetse n'amasakoshi y'abadamu, harimo urujya n'uruza rw'abantu higanjemo abagabo hakabamo n'umukobwa wambaye umupira usa n'ibara ry'icyatsi.

Mu isoko ricuruza ibitenge ndetse n'ubundi bugeni bwa kinyafurika harimo umuhungu wambaye impuzankano y'ikipe y'i Burayi uri gukoresha terefone igendanwa, inyuma ye hari n'abandi bakiriya.

Mu isoko ricuruzamo insenda, intoryi n'izindi mboga, harimo abagore barimo baraseka bambaye ibitenge barimo baraganira, undi afite telefone igendanwa arimo arayikoresha.

Abagore bari mu isoko. Bacuruza insenda, ibihaza, ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Bambaye ibitenge, harimo n'undi uri kuvugira kuri telefone igendanwa.

Abagore bari mu isoko bambaye ibitenge kandi n'iri soko ricururizwamo imyenda ya kinyafurika, bakaba bafite imisatsi ya karemano, hirya yabo hari umuntu barimo baritegereza cyane.

Isoko ricururizwamo ibintu bijyanye n'imbuto ndetse n'ibiribwa. Harimo inyanya, ibitunguru, harimo n'abagore bacururiza hano hantu. Hari amatara ari hejuru mu gisenge cy'iri soko.

Umugabo wambaye ipantaro y'umuhondo n'umupira w'umutuku, yikoreye agatebo kari mu ibara ry'umuhondo, inyuma ye hari inyubako y'igorofa rirerire.

Isoko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo abaguzi ndetse n'abagurisha imyenda, imbere hari itara riri kwaka, rikaba riboneshereza abantu baje mu isoko.

Isoko ricururizwamo ibitenge ndetse n'indi myambaro ya kinyafurika, harimo abantu baje guhaha biganjemo abanyamahanga, ndetse hakaba harimo n'abandi bagore bashinzwe kudoda iyi myenda, bicaye inyuma y'imashini idoda.

Isoko bacururizamo inyanya, ibitunguru ndetse na powavuro, hakaba harimo umugore uteruye umwana mutoya w'uruhinja, wambaye agasurubeti gasa ubururu bwerurutse.

Umugabo wicaye ku kibaho mu isoko acururizamo imyumbati, yambaye ikote ry'umukara rishashagirana n'ingofero isa ibara nk'iry'ivu, inyuma ye hari umugore wambaye igitenge hasi.

Umukozi w'ikigo cy'itumanaho cya MTN. Aho afite ubukangurambaga bu bavuga ko ushobora gukanda akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu, akanyeri gatatu urwego, ugakoresha serivise z'iki kigo zo kwishyurana wifashishije telefone igendanwa.

Telefone igendanwa, umuntu uyifite agiye kwishyura amafaranga magana atanu kugira abone uko akoresha murandasi, yifashishije uburyo bwo kwishyura ukoresheje telefone bw'ikigo cya emutiyeni.

Umugabo uri gukoresha telefone igendanwa. Hirya ye hari umugore ukorera ikigo cy'itumanaho cya mtn wambaye umupira w'umuhondo nawe afite telefone. Hirya hari sitasiyo ya esance aho umuntu agenda kunyweshereza ikinyabiziga cye.

Abakozi b'ikigo cy'itumanaho cya MTN, bambaye imipira y'umuhondo, imbere y'abo hari amajire na yo asa iryo bara, kandi bacuruza ibijyanye no guhererekanya amafaranga hifashishijwe telefoni.

Abakozi b'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni, gishinzwe ibijyanye no kohererezanya amafaranga ndetse no guhamagarana hifashishijwe telefone igendanwa bambaye imyenda isa ibara ry'umuhondo.

Umugore ufite anvelope y'umuhondo, yambaye ikanzu y'umutuku. Yambaye amadarubindi, hirya ye hari abakozi b'ikigo cy'itumanaho cya MTN, bambaye imipira y'umuhondo. Arimo aratambuka avuye guhaha.

umukozi w'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni yambaye umupira w'umuhondo ari kuganira n'umukiriya ari kumuha telefone igendanwa aje kugura ikorwa n'iki kigo hakaba hari n'umuzungu uri hafi yabo.

Abantu bambaye imyenda y'umweru iriho ibirangantego by'ikigo cy'itumanaho cya Emutiyene hirya hari n'undi wambaye ikanzu y'umutuku, hakaba hari n'igitambaro gisa ibara ry'umuhondo kibakikije hagati yabo.

Moto iriho agasanduku gasa ibara ry'icyatsi, yegeranye n'abagabo babiri bambaye kasike zirinda umutwe kugirango utangirika mugihe k'impanuka bakorera ikigo cya vuba vuba.

Umukozi w'ikigo gishinzwe kugemura kitwa kasha, aho uhamagara ikenda rimwe, rimwe, rimwe, ukabasha kubatuma ibintu ushaka hirya no hino, hakoresha ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo n'iki cya moto uyu mukozi atwara.

Urubuga rwo kuri murandasi rucururizwaho ibintu bigiye bitandukanye harimo ibiryo ibikoresho byo mu nzu ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga ukaba ubatuma bakagutumikira.

Icyapa kigaragaza uburyo umuntu ashobora guhaha yifashishije ikoranabuhanga, akaba atumiza ibicuruzwa bigiye bitandukanye akoresheje mudasobwa ye.

Umumotari ufite agasanduku k'umukara kari kuri moto ye, gateyeho. Uyu ashinzwe kugemura ibintu aba yatumwe n'abantu bifashishije ikoranabuhanga rya telefoni igendanwa.

Urubuga rwo kuri murandasi rukora izindi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ruri mu ibara ry'icyatsi igirongi n'iry'umweru hirya hari umuntu uri gukoresha mudasobwa.

Iposita ni ikigo gishinzwe gutumanaho umuntu abajyanira ubutumwa, bakabuwongereza ku wo ashaka hirya no hino mu gihugu bifashisha zino modoka ziriw ibara ry'umuhondo n'ubururu.

Igitaramo cyabereye mu Rwanda cy'umuhanzi bita seyi shay- cyari cyatewe inkunga na eyateri ndetse n'uruganda rukora inzoga rwa buralirwa arirwo mitsingi waguraga itike yawe ukoresheje imbuga nkoranyambaga.

Urubuga rukorera kuri murandasi abantu barwifashisha bari guhaha ibintu bigiye bitandukanye, aho ushobora gutumiza ukanagurisha ibintu waba ufite ushaka kugurisha wifashishije telefone yawe igendanwa.

Inzu igura miliyoni ijana na mirongo itatu mu mujyi wa Kigali mu Rwanda, irimo amakaro meza asashe hasi ikaba irimo n'igisenge kirimo amatara ari kwaka yaka ibara ry'umuhondo.

Ubwogero bwometsemo amakaro asa umweru. Ni inzu iguze miliyoni ijana na mirongo itatu z'amafaranga y'u Rwanda. Iherereye mu mujyi wa Kigali mu Rwanda. Hakaba harimo n'ibyuma abantu bifashisha boga.

Inzu ikodeshwa Kabeza mu mujyi wa Kigali wanayigura kuri miliyoni mirongo irindwi n'eshanu ni inzu igezweho iteye amarangi asa umuhondo n'igisenge cy'umutuku ni mu bwoko bwa kadasiteri.

Inzu iherereye Kabeza mu mujyi wa Kigali harimo icyuma gikonjesha n'indobo y'ubururu, hakaba hano ari mu gikoni cyo mu nzu aho harimo n'utubati dusize irangi ry'umweru.

Inzu iteye irange ry'umukara harimo inyakiramashusho ijimije kandi hejuru mu gisenge harimo amatara yaka ibara ry'umuhondo n'ay'ubururu, iyi nzu wayikodesha amadolari ijana na mirongo itanu buri kwezi.

Inzu nziza yo mu bwoko bwa kadasitere. Ihagaze miliyoni ijana na cumi n'eshanu. Wayigura hano mu mujyi wa Kigali, mu Rwanda. Ikaba ifite igisenge cy'umutuku ndetse n'ibirahure bisa ubururu.

Umugabo w'umuzungu wambaye ikoboyi ndetse n'ishati y'umweru, ari kugenda mu nzu iteye irangi ry'umweru, akaba ari kugendera ahantu hashashe amakaro, imbere ye hari imeza y'ahan barira.

Inzu isashemo amabuye hasi, imbere hari ubusitani bwiza cyane ndetse n'umuzungu urimo urahagendagenda, ni muri hoteri nziza iherereye mu Rwanda.

Umugabo w'umuzungu uri kumwe n'umugore w'umwirabura, barimo baratembera inzu yabo amwereka ubwiza bwayo, ku rukuta hamanitseho amafoto ari mu tuntu tugiye dutandukanye, uru rukuta ruteye irangi ry'umweru.

Umugabo wambaye ikote risa nki'ivu ari gufungura urugi rukozwe mu rubaho rwa muvura, akaba yambaye amadarubindi yambaye n'ishati isa umutuku werurutse cyane, akaba aranga amazu.

Umugabo wambaye ikositimu y'umukara, ari mu nzu iteye irangi ry'umweru nziza cyane, hanze y'iyi nzu hari ubusitani ndetse n'ishyamba ririmo ibiti, akaba arimo arerekana ibyiza by'iyi nzu.

Hano tubafitiye serivisi zikurikira; ibijyanye n'uko umuntu ashobora kuza akagura imodoka, ndetse dukora n'ibijyanye n'ubwubatsi.

Inzu iherereye mu mujyi wa kigali Kimironko ifite ibyumba bine n'ubwogero butatu uyikodesha ibihumbi magana atandatu by'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi imbere yayo hari ubusitani butoshye cyane.

Inzu ikodeshwa i Kanombe igurwa amafaranga miliyoni ijana na mirongo itanu, ifite ibyumba bitanu, ubwogero bune, ikaba ipima magana ane na mirongo itanu by'umurambararo.

Inzu ikodeshwa mu mujyi wa Kigali, i Kibagabaga, ifite ibyumba bitanu, ubwogero butanu. Ku kwezi uyikodesha amadolari igihumbi na magana arindwi, ni miliyoni ebyiri z'u Rwanda.

Inzu ikodeshwa muri Kigali mu karere ka Kanombe ikaba ifite ibyumba bitatu ndetse n'ubwogero bubiri, wayibona ku bihumbi maganatatu by'amafaranga y'u Rwanda ukaba uyishyura buri kwezi.

Inzu ikodeshwa mu mujyi wa Kigali Kimironko, ifite ibyumba bitatu, ubwogero bubiri wayibona ku bihumbi magana atatu by'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi, iteye irangi risa nk'ivu ifite n'ibirahure bisa umukara.

Inzu ikodeshwa cumi n'eshanu mayange ifite amakaro yose kandi ni inzu nziza ifite n'inkingi zisa icyatsi ikaba ifite igisenge kimeze nka mpandeshatu.

Iyi nzu iragurishwa miliyoni eshanu, ifite ibyumba bine, ubwogero butatu, iherereye Kicukiro mu mujyi wa Kigali, ushobora no kubasura ku mbuga nkoranyambaga zabo, ukanze wawawa akadomo tomu diru akadomo rwa.

Inzu ikodeshwa mu mujyi wa Kigali, Kimironko, ifite ibyumba bibiri, ubwogero bubiri, wayibona ku bihumbi magana atatu, mirongo itanu by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi.

Inzu ikodeshwa mu mujyi wa gisozi ifite icyumba kimwe ubwogero bumwe ikodeshwa ibihumbi ijana na mirongo itanu ku kwezi, harimo n'ahantu batekera hagezweho hari akabati gakozwe mu mbaho.

Umuryango uriho ibyapa byamamaza, biriho ikaramu ndetse n'imashini izwi nka karikiratirise iteranya imibare, hejuru hariho ibindi birangantego by'iyi nzu.

Mu isoko rya Kijyambere, harimo utubati, tugiye turimo ibicuruzwa byinshi cyane. Hari n’umugabo wambaye imyenda y’umukara usutamye, urimo urareba ibyo ashaka kugura. Hirya ye, hari umunyamahanga w’umuzungu urimo uratembera muri iri soko.

Ahantu hacururizwa ibikapu by'abadamu ndetse n'ibindi bikapu by'abagabo, hakaba harimo abaguzi benshi cyane, harimo umugabo wambaye ishati y'ubururu uri kuvugira kuri telefone ye igendanwa, ku ruhande hari n'abandi bacuruzi batandukanye.

Mu nyubako ishashemo amakaro y'umweru n'umukara, hari n'indabo ziteye mu mavaze, ni mu isoko rya kijyambere, harimo urujya n'uruza rw'abantu batari benshi.

Mu iduka bahahiramo ibintu bigiye bitandukanye, harimo umuzungu uri kuganira n'umukobwa ukora hano hantu, ndetse harimo n'akabati karimo ibintu by'inzoga zigiye zitandukanye.

Umukobwa uri mu nzu ihahirwamo n'abantu rusange ari gukora ku ivide irimo inzoga hirya hari n'ibikopo bivamo ibirungo bashyira ku biryo bihiye.

Umugore w'umucuruzi uri mu isoko hirya ye hari akabati karimo imitobe ndetse n'inzoga, ako kabati karimo ibika bigera kuri bine, aho kuva hasi kugera hejuru hapanzemo ibicuruzwa.

Mu isoko ryabugenewe rigezweho harimo utubati turimo ibicuruzwa bitandukanye, hejuru muri iri soko hari igisenge kirimo amatara yaka ibara ry'umweru, ndetse hari na mudasobwa iherereye ahantu abantu baza kwishyurira.

Sawa citi i Remera, ni ahantu hari iguriro rizwi cyane ricuruza ibicuruzwa byiganjemo ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'ibindi bintu dukenera mu buzima bwa buri munsi.

RSSB ikigo cya leta gishinzwe ubwiteganyirize bw'ejo hazaza, hakaba hari umukecuru n'umusaza barimo baramamaza uburyo ki wa kubona ubwiteganyirize mu kwivuza.

Ikigo nderabuzima cya Kabazungu hari icyapa kiri hejuru cy'umweru kiriho n'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda hejuru hateyeho n'irange ry'umweru hakaba ari ahantu umuntu abasha kwivuriza.

Abana ndetse n'ababyeyi babo bafite mituweli mu ntoki, akaba ari ikarita y'ubwisungane mu kwivuza isa ibara ry'ubururu bwerurutse cyane, hasi yabo hakaba hari umukeka bapfukamyeho bose.

Ejo heza ubwiteganyirize bw'izabukuru mu nshingano za rssb. ni ikigo gishinzwe kwishingira abantu aho ujyana amafaranga yawe buri kwezi ukajya uyatanga nk'umusanzu, mu gihe utagifite akazi bakajya baguha amafaranga buri kwezi.

Umugabo uri kuvugira ku ndangururamajwi yambaye ishati y'umweru na karuvati y'umukara imbere ye hari mudasobwa akaba ari gutanga imbwirwaruhame ku bantu bamuri imbere kuru ruhande rwe hari umudamu nawe ufite mudasobwa.

Abantu bicaye ahantu hari abakozi bashinzwe ibijyanye n'ubujyanama bw'ubuzima. Imbere ku meza hari mituweri ziteretseho zisa ibara ry'ubururu bwerurutse. Bakaba baje kwivuza.

Umuganga urimo urandika ku rupapuro. Arimo arasoma muri telefone ye igendanwa. Imbere hari imeza, iteretseho n'agasakoshi gasa ibara ry'umukara. Akaba yisukishije.

RSSB ubuzima bwacu ejo hacu heza, ni ikigo gishinzwe ubwisungane mu kwivuza mu banyarwanda buzwi nka mituweli, aho umuntu atanga ibihumbi bitatu buri mwaka, bakabasha kumuvurira ku buntu.

Abagabo babiri bambaye ikositimu inyuma yabo hari abagore bambaye amakanzu y'ubururu. Hejuru y'abagore hari ifoto ya nyakubahwa perezida Paul Kagame yambaye amadarubindi.

Ibiganza by'umugore biteye inzara ze ziriho ibara rya shokora, ari gukora ku meza iriho udupapuro tw'umweru turiho amagambo agiye atandukanye yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Mu isoko rya kijyambere harimo amakaro ashashe hasi ameze nk'imbaho, hari ibicuruzwa mu kabati bipanze neza, akaba ari ibisuguti bikunzwe n'abana batoya.

Umuhungu waje guhaha ibirayi mu isoko rya kijyambere yambaye umupira w'umweru hasi yambaye ikoboyi kandi hashashe amakaro y'mweru hejuru mu gisenge harimo amatara yaka.

Mu isoko harimo umugore wisukishije, wambaye umupira w'ubururu, ari gutereka akabido k'umweru ku meza, hari n'ibindi bicuruzwa byaguzwe n'abakiriya, hano ni aho bishyurira.

Isoko bagurishirizamo imbuto ziri mu tubati harimo pome, ibinyomoro ndetse n'inanasi, hakaba hari amakaro ashashe hasi asa nk'imbaho hejuru ku gisenge hariho amatara matoya.

Mu isoko rya kijyambere hashashemo amakaro hasi, hirya hari utubati tunini duteganye kamwe karimo imbuto ndetse n'ibindi biribwa byiganjemo imboga, akandi karimo ibiribwa bipfunyitse mu mashashi.

isoko ryo guhahiramo rya kijyambere ririmo utubati turimo ibicuruzwa, hirya hari ibyuma bikonjesha amata ndetse n'indi mitobe hasi hasashemo amakaro asa ibara ry'umweru hakaba hari n'akagare batwaramo ibicuruzwa.

Isoko rya kijyambere ririmo amakaro ashashagirana y'umweru ashashe hasi, hirya hari utubati turimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye byiganjemo amasabune bakoropesha birimo ndetse n'impapuro zo muri tuwarete.

Abantu bari mu isoko ryabugenewe ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye harimo umugore uri guseka usunika akagare gashyirwaho ibicuruzwa inyuma ye hari undi uri kumufotora ufite telefone ifite ibara ry'umutuku.